Umuyobozi yazindutse ndabona bamuteze amatwi, bose bari maso biragaragara ko ikiganiro cyaryoshye, bose bamukurikiye cyane kandi barimo kumwumva.

Bogoshwa amasunzu kabone Ari n'abakobwa ariko biyambariye bya kinyarwanda. Abakorani bataraza ibyo kwambara imyenda ibi bindi byateye abazungu batuzaniye.

Barimo kwisekurira agasombe .Ndanagakumbuye karyoha kubi , Kukarya ku muceri bikaba akarusho . Iyo ufite ibirungo.

Aho wagira ngo ni mu Rukari i Nyanza, abazungu bari bagiye kwisurira umuco nyarwanda, dore ko dufite umuco mwiza utagira ico, bizihiwe kandi uyu musore wagira ngo agiye kunywa ku mata ari mu nkongoro.

Kiriziya yakuyeho kirazira, ibi ni ibinyabazungu batuzaniye, kugira ngo twemere ibyo bari bazanye, twagombaga kugira za kiriziya.

Umuriro w'mashanyarazi, mu Rwanda hose ubu warageze. Aha ni kubitaransifo by'umuriro, babishyize hamwe kugira ngo bajye bawurikirana, ugere ku baturage.

Umuyobozi arimo gutanga ikiganiro muri gahunda za Leta ndi kubona n'umudaso umuri inyuma wagira ngo arimo kumuporoteja.

Umuyobozi mu nteko y'abaturage, bamukurikiye ariko ndi kubona benshi wagira ngo ni abasilamu. Hashobora kuba ari mu Biryogo tu! Nkurikije uburyo abantu bakurikiye ba...

Ndahazi ni mu mugi ejobundi mbere y'uko havugurura hafi ya gare ya Musanze, ibinyubako nabonye bararangije kubyubaka, ubu hasa neza, hari iterambere kabisa.

Company ya horizo ikunda kwambura abantu. yigeza no gufata ibireti niba atari ya yindi yubaka imihanda n'amashuri. Ndabona yabukereye.

Amakurusi mu Kinigi gupfa kuyabona ni gake, ubundi biba mu mu mugi ahantu hari imihanda minini y'imikara. Abazungu ba bukereye n'abaturage bazindutse kureba.

Umuzungu bamaze kumukoresha siporo yo koga, wagira ngo ni ikipe, ariko bari batwaye n'ibikombe. Ndi kubona bari guselebura.

Adiyeri ni nziza idufasha kwiyunga indwara zituruka ku bintu twakirinda, iyo dukoze siporo twanabyirinda ibirwa by'ibidiyabete n'imivuduko.